Muri iyi si tugeze mu y'koranabuhanga, itumanaho rya ryarorohejwe kugeza ubwo abantu basigaye bahanahana amakuru ndetse bagakorera ubucuruzi, kuko anabuhanga, barabitsa, bakanohererezanya amafaranga binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga byoroshye.

Abantu benshi bagana ibigo by'imari bitandukanye ,ndetse n'amashyirahamwe kugira ngo babashe kubona ibishoro, batangize umushinga ubundi biteza imbere. Leta y'u Rwanda ishishikariza abantu bose kwibumbira hamwe kwishyira mu matsinda ,ndetse no kugana ibigo by'imari bakabasha kubona amafaranga yo gutangiza imishinga igiye itandukanye kubafasha mu iterambere ry'igihugu.

Umusaruro ku buhinzi. Ahangaha abaturage basaruye ibigori bari kwanaikiriza umusaruro wabo ube wabasha guhunikwa, gushyirwa, ahabugenewe. Abaturage bishyize hamwe bagahingira mu ishyirahamwe ubona ko bagize umusaruroshi kandi uhagije.

Mu rwego rwo kugira ngo biteze imbere, Abaturarwanda bose bagiye bigishwa ndetse banahugurwa ndetse banagirwa inama ku bijyanye no kugana ibigo by'imari ndetse no kwibumbira mu matsinda kugira ngo babashe guhuza imbaraga ndetse babashe kwiteza imbere. Ni muri urwo rwego abantu benshi bagiye batandukanye bagana ibigo by'imari kugira ngo babahe amafaranga bashore.

Uyu mubyeyi ari kwamamaza amavuta akora, aya ni amavuta akora y'abana, amavuta akuze, amavuta y'inka ava mu musaruro w'amatungo, amavuta yifashishwa kugira ngo uruhu rw'umwana rumere neza, afite ahantu ayacururiza kandi hemewe.

Ubugeni n'ubuhanzi. Ahangaha turahabona abantu bishyize hamwe, aba bantu bakora inkweto, imyenda ndetse n'ibikapu byose bituruka mu bugeni byifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Bishyize hamwe bahuza imbaraga n'ubwenge kugira ngo barusheho gufasha abantu.

Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage mu gukorera hamwe ndetse no kwizigamira. Iyo abantu bibumbiye mu matsinda yo kwiteza imbere leta y'u Rwanda irabashyigikira ikanabasura, ikababaza ibyo bakora imishinga bafite ikabasha kubateza imbere. Kwizigamira bifasha iterambere ry'umuturage n'igihugu muri rusange.

Mu rwego rwo kugirango abaturage biteze imbere ndetse banabashe kwihangira imirimo ,leta yu rwanda ikangurira ibigo byimari bitandukanye kwegereza ibigo byimari bitandukanye kwegereza serivisi zabyo abaturage ndetse bakanabashishariza kubagana kujyirango abaturage babashe kubona ibishoro abaturge biteze imbere banateze igihugu imbere muri rusange.

Mu rwego rwo gushishikariza abaturage mu kwihutisha iterambere, ndetse no kwihangira imirimo, leta y'u Rwanda igenda ishishikariza kandi ikangurira abaturage mu kwibumbira mu matsinda ndetse no kugana ibigo by'imari igatanga kandi amahugurwa kuri ibyo byombi kugira ngo abaturage babashe kwivana mu bukene no guteza imbere urwababyaye.

Amaduka ndetse n'ahandi hose hacururizwa ibyokurya, leta y'u Rwanda ibashishikariza kwibanda ku buziranenge bw'ibyo bacuruza mu rwego rwo guteza imbere ubuzima bwiza ndetse no kwita ku buzima bwiza bw'abanyagihugu. Ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda yashyizeho amabwiriza agenga ibiribwa.

Mu bucuruzi bwa buri munsi, ndetse binafatanyije na gahunda ya leta yo kwita kubuzima bwa abatuye igihugu, leta y'u Rwanda ishishikariza amabutike ndetse n'amaduka yose agiye atandukanye. Kwita ku buzima bw'abanyagihugu, bakibanda mu gucuruza ibicuruzwa bidashyira ubuzima bw'abantu mukaga, ndetse no kubagira inama ku by'imyororokere no gucuruza udukingirizo.

Mu iterambere ry'igihugu ndetse n'iry'umuturage muri rusange, ubuhinzi bugira uruhare runini kuko umusaruro wabyo, umusaruro uva mu buhinzi ugenda ujyanwa ku masoko bityo uwo muturage bikamufasha kwiteza imbere ndetse no guteza imbere ubwo buhinzi akora buri munsi.

Amadini n'amatorero mu Rwanda bisabwa na leta y'u Rwanda mu rwego rwo kwita ku muturage, kubaka insengero ahabugenewe ndetse ahantu hatashyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Rukabasaba kandi gushyiraho ibisabwa byose byemerera abagana iza nsengero kwisanzura no kumererwa neza kugira ngo babashe kubaho batekanye.

Amadini n'amatorero mu rwanda bisabwa na leta y'u Rwanda mu buryo bwo kurengera umuturage kubaka ibikorwa remezo bigezweho ndetse hagashyirwaho gahunda yo gusenga imye leta y'u rwanda itegeka ibyo bigo gutegura ahantu heza ho gusengera hadashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga.

Inama. Iyi ni nama yahuje abaturage batandukanye n'abayobozi batandukanye. Iyi nama urabona ko yitabiriwe cyane, yitabiriwe n'abantu batari bake b'ingeri zose, abakuze nibo bagaragara cyane by'umwihariko.

Amadini n'amatorero mu Rwanda bisabwa na leta ibinyujije muri gahunda yo kwita ku muturage kubaka ibikorwa remezo abantu basengeramo byiza ndetse no kuvugurura ibyakoreshwaga mu rwego rwo kwita ku muturage kugira ngo asengere ahantu heza ndetse hadashyira ubuzima bwe mu kaga.

Insengero cyangwa se aho abantu bateranira basenga, insengero zose zisabwa gushaka amafaranga ahagije yo kubaka aho abantu bahurira heza ahabugenewe nk'uko leta y'u Rwanda ihora ibibashishiriza. Ibyo bifasha mu kwirinda ko basengera ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga ndetse bikanafasha n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Amahoteli ni ahantu ho kwakirira abantu mu Rwanda ,hateye imbere hanagendeye kuri gahunda ya leta yo gutanga serivisize inoze, hagiye hashyirwaho ibikorwa remezo bihagije kugira ngo abantu babashe kwidagaduriramo bisanzure banishima. Kandi ibyo bintu bigakorwa mu buryo bidateza ibyago ndetse bidashyira ubuzima bw'abantu mu kaga.

Iterambere imiturire igezweho iyi ngiyi ni inyubako igezweho, imwe twita inyubako za gisirimu, igaragaza ko ifite ubusitani imbere, ni inzu yubatse mu buryo bwa kijyambere ikomeye, ifite kizimyamwoto kugira yirinde ibyago byatezwa n'inkongi.

Amahoteli n'amaresitora ndetse n'izindi nyubako zakira abantu zitanga serivisi muri rusange, zigomba gukurikiza gahunda ya leta yashyizweho yo gutanga serivisi nziza kandi zinoze. Muri urwo rwego amahoteli mu gutanga serivisi nziza bigenda biyafasha mu kubona abantu bagiye batandukanye, yaba ari abanyarwanda ndetse n'abavuye hanze yacyo.

Aha ngaha ni dushe igezweho, urakarabiro rugezweho ndetse twavuga rwa rundi bajya bita urw'abasirimu ndetse hari n'umusarane ugezweho, ibi ngibi bigaragaza icyo bita iterambere, umusarane ugezweho, ubwogero bugezweho.

Mu kabari, uyu mucuruzi ucuruza ibyo kunywa, ahagaze mu kabari ke, ategereje abakiriya, hari ubwoko bwinshi bw'inzoga bw'ibinyobwa bitandukanye, bigaragara ko akabari arimo gateye imbere ndetse yiteje imbere cyane rwose, hari na firigo ateye imbere.

U Rwanda rwashyizeho gahunda yo kwihutisha serivisi ndetse no gutanga serivisi zinoze , aho abanyarwanda ndetse n'abarugenda bagenda banyurwa na serivisi babona mu mahoteli , mu maresitora bakishimira uburyo u Rwanda rwimakaje serivisi nziza kandi ni byiza.

Leta y'u Rwanda irakataje mu iterambere aho iri kugenda iteza imbere buri kimwe cyose. Iri guteza imbere ibikorwa remezo igashyiraho uburyo bw'imyubakire bugezweho, Aho itanga urugero rw'inyubako n'uburyo bwo kubaka, ukabona ni byiza rwose biri guteza imbere igihugu.

Mu rwego rwo kunoza serivisi n'imitangire yayo, leta y'u Rwanda isaba amahoteli ndetse n'ahantu hose abantu bahobora guhorira, bidagadura, gushyiraho ahantu habugenewe, abantu bahurira kandi ahantu hakaba ari heza hatashyira ubuzima bw'abantu mu kaga kandi bigendanye n'icyerekezo cya leta y'u Rwanda.

Amahoteli n'ibindi bihugu byose byashyizweho mu kwakira abantu mu buryo bwa rusange. Bisabwa guteganya ahantu habugenewe abantu bakwiye guhurira ndetse aho hantu hakaba hemewe na Leta kandi hatanga akayaga n'ubuhere ndetse hadashyira ubuzima mu kaga, ababagana mu rwego rwo guteza imbere igihugu.

Mu bikorwa bifasha igihugu mu iterambere, ibikorwa by'ubucuruzi, biza ku isonga. Ubucuruzi ubwo aribwo bwose, bufasha ubukora mu kwiteza imbere, ndetse bukagira n'umumaro mu iterambere ry'Igihugu. Ni muri urwo rwego Leta ishishikariza abantu kwihangira imirimo, byibuze abantu bakajya mu bucuruzi bugiye butandukanye.

Abaturarwanda bose, bagiye bashishikarizwa kwihangira imirimo ,benshi bagiye bashora imari zabo mu bucuruzi, ubu baracuruza bakiteza imbere ndetse bakanateza imbere n'ingo zabo, ibyo bibafasha kugira ngo n'igihugu gitere imbere mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Mu Rwanda gutwara ibinyabiziga ndetse no gukoresha ibinyabiziga byarenze kuba urwego rwifashishwa mu migenderanire ndetse no kunoza ingendo ahubwo byabaye ishoramari. Abaturage bifashisha ingendo ndetse bakoresha ibinyabiziga bava hamwe bajya ahandi ndetse bikabahesha n'amafaranga bakabasha kwiteza imbere.

Abatwara ibinyabiziga ndetse n'abakora ubwikorezi muri rusange, bashishikirikazwa na Leta, mu gukoresha neza umuhanda, bubahiriza amabwiriza awugenga, kugira ngo habeho imigenderanire myiza. Ikndi abakoresha ibinyabiziga ndetse n'ababitwara, bibafasha mu gutera imbere buri munsi.

ubwikorezi, uyu ni umwe mu bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu kuri moto, bazwi nk'abamotari. Atwaye abantu, ndetse ari gukorera mu muhanda ugezweho wa kijyambere uzwi nka kaburimbo, ubona ko imigenderanire iri kugenda neza n'ubwikorezi

Mu rwego rwo gushyigikira iterambere ry'igihugu, Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage, kugira igikorwa bakora cy'iterambere, ndetse no kwihangira imirimo. Ikababwira gukora imyuga igiye itandukanye, nk'iyo gutwara ibinyabiziga bifasha abantu kuva hamwe bajya ahandi. Ndetse bigafasha mu iterambere ryabo, ndetse no mu iterambere ry'igihugu muri rusange.